Abayobozi b'igihugu bari kwiga ku buryo bajya bafasha abana b'abanyarwanda mu kuzamura impano zabo kugira ngo bagere ku ruhando mpuzamahanga, bafashe igihugu mu kwiteza imbere ndetse no guhashya imirire mibi.

Aba ni abadamu cyangwa se abagore, bigaragara ko bambaye neza cyane, bicaye mu ntebe zisa neza cyane, aho basa nkaho bari kumva umuntu ubari imbere, bamuteze amatwi neza.

Aba ni abagabo bane urabona ko bari gushaka ibisubizo, ndetse imbere yabo hari imashini aho ubona ko bari kuganira ku iterambere, kandi bari kuganira ku bibashishikaje kuba bakosora bityo bagatera imbere.

Uyu ni umuyobozi w'urubyiruko uri kugira inama urubyiruko rw'u Rwanda kugira ngo rukomeze rwikure mu bukene, rwihangira imirimo y'amaboko kugira ngo bakomeze bazamuke mu iterambere, bityo urubyiruko rube urwa mbere.

Iyi ni inama y'abayobozi ihuza abayobozi kugira ngo bige ku bibazo by'abaturage n'ukuntu babikemura bityo bigatuma babasha kuba bakomeza kuba mu mahoro bityo abaturage bakabasha kuba bakwishimira ubuyobozi bwabo bitoreye.

Abayobozi b'u Rwanda buri gihe bakunda gukora inama, aho baba baganira ibibazo ndetse n'ukuntu babisubiza abaturage b'u Rwanda bakunda guhura na byo bwa buri munsi no kwifashisha ibibazo byabo.

Aba ni baturage bicaye imbere yabo hari amazi ndetse n'ameza mu gihe bari kuganira ku bikorwa remezo cyangwa se byabateza imbere biciye mu kuba baganira.

Uyu ni umuyobozi cyangwa se ushinzwe ibikorwa by'abaturage, aho hicaye abaturage ari kubwira, abasobanurira ibyo bari kwigaho, imbere yaho hari amameza ateretseho amazi.

Nk'uko bigaragara aba ni abagore n'abagabo abaturage bicaye mu nama basa nkaho bari kumva amabwiriza imbere yabo hari meza iriho amazi ndetse n'ibikomoka ku mbuto ku meza.

Aba ni abaturage batatu harimo abagabo babiri n'umugore umwe aho basa nkaho bari mu nama baganira ku iterambere ry'igihugu kandi imbere yabo hari n'amazi.

Nk'uko bigaragara ni inama y'abaturage cyangwa se y'abayobozi yateranye aho imbere y'aho hari amacupa arimo amazi yo kunywa ndetse n'ibituruka ku mbuto bibari imbere, imbere hari umuntu uri kubabwira amabwiriza.

Abayobozi bateranye, bari kwiga ku bibazo by'abaturage, kandi bashaka n'ibisubizo by'uko bava mu bukene, bagateza imbere urubyiruko, ndetse bagateza imbere abaturarwanda muri rusange.

Aba ni abaturage bari mu bikorwa byo kuganira bashaka icyabateza imbere hari uhagaze imbere yabo ababwira uburyo ibintu bigomba kugenda hari n'abicaye bamuteze amatwi bari kumwumva.

Izi ni zimwe mu nama zirangwa n'abayobozi bashinzwe imibereho myiza y'abaturage ndetse bikaranga n'imibanire myiza hagati y'abayobozi ndetse n'abakoresha kugira ngo bateze imibereho yabo myiza imbere.

Aya ni amwe mu mashami afasha abaturage mu kuba babikuza amafaranga yabo mu gihe bayakeneye, kandi akabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo bakomeze bafashe imibereho yabo myiza, ikomeze itere imbere n'abana babo.

Izi ni zimwe mu mbuga nkoranyambaga leta yifashisha ibwira abaturage bishyuriraho imisoro uburyo bamenyekanisha aho imisoro, yabo cyangwa se imitungo yabo igeze kugirango badahura n'ibizazane.

Nk'uko bigaragara aba ni abagabo babiri, umwe w'umunyamahanga ndetse n'undi w'Umunyafurika, basa nkaho bari gufata urwibutso kandi inyuma yaho hari amamashini meza ari ku ntebe ndetse n'imeza.

Ibi ni bimwe mu bikorwa remezo bifasha abaturage mu kuba bavugana nta kibazo bafite kandi bikabafasha mu kuba bakomeza kubaka iterambere rirambye, bagakorana n'ikoranabuhanga, bagatera imbere.

Bimwe mu bikorwa remezo harimo amapoto biri kuzamurwa mu mujyi wa Kigali bizajya byifashishwa mu guteza imbere abaturage ndetse nabo hirya no hino mu midugudu rusange mu Rwanda.

Ubu ni uburyo umuntu akoresha imbuga nkoranyambaga amenyekanisha ibikorwa by'iwe kandi amenyekanisha aho ibintu bye bigeze, kugira ngo Leta y'igihugu ikomeze kugira ngo ibirebe neza kandi ibifashe ne...

Izi ni zimwe mbugankoranyambaga igihugu cy'u Rwanda cyangwa se leta yifashisha bamenyekanisha cyangwa se bakwirakwiza ibikorwa bitandukanye mu baturage kugira ngo bibagirire akamaro.

Iyi ni raporo batanga bifashisha kumenyekana imisoro yatanzwe n'abaturage, bakifashisha iyo misoro bateza imbere igihugu kandi bafasha n'abaturage mu gutera imbere.

Isanwa ry'amazu mu gihugu cy'u Rwanda rirakataje kandi rirakomeje mu kugira ngo bakomeze bateze imbere inyubako ziri mu mujyi wa Kigali mu Rwanda.

Ibi ni bimwe mu bikorwa remezo na leta ishyiraho kugira ngo abaturage babone amashanyarazi abageraho mu rugo iwabo ndetse bikanagabanya kuba watura ahatagaragara, murakoze.

Ibi ni bimwe mu bikorwa remezo leta ishyiraho kugira ngo bifashe abaturage kuba babona amashanyarazi bityo bareke no gutandukana gutura ahantu hatagaragara kandi ibi biti na byo bituma bibaha umuyaga, bagahumeka neza.

Uyu ni umuhanda cyangwa se imihanda iri mu mujyi wa Kigali bagashyiramo ibizajya bifasha bituma babasha kuba babona urumuri biboroheye bityo bigatuma babona umutekano mu mihanda ndetse bikabafasha kuba bakomeza imirimo yabo ya buri munsi.

Aha ni mu muhanda aho usanga harimo ibikorwa remezo bifasha abaturage kuba babona umuriro kandi bikanamurika mu mihanda ya Kigali mu gihe bari gutwara mo imodoka bigafasha abantu kurwanya impanuka.

Ibi ni uburyo ubuyobozi bwifashisha kugira ngo abaturage bakomeze babone amashanyarazi, ndetse bakomeze babone amazi ku gihe cyiza butyo bakomeze barwanye ubukene ndetse n'ubuzima bubi.

Ibi ni mu bimwe bikorwa remezo leta y'u Rwanda igenda ishyira mu duce tumwe na tumwe, tugize igihugu, kugira ngo abaturage baho babashe kuba bagerwaho n'umuriro, cyangwa se amashanyarazi.

Ubu ni uburyo bazitiramo ibikorwaremezo bijyanye n'amashanyarazi kugira ngo bitazangizwa cyangwa se bitangirika mu gihe abaturage baba babyegereye cyangwa bakabivogera.

Nk'uko bigaragara aha ni hejuru y'inzu aho usanga iki ubona cyaragenewe kuba cyakusanya umuriro wose uva ku izuba cyangwa se uva hejuru y'isi, aho usanga yifashishwa kuba yaba ibicanwa bityo bigafasha umuntu kuba yatura ahantu hatari ikizima.

Ibi ni muri bimwe mu bikorwaremezo leta y'u Rwanda igenda ishyira hagati mu duce mu baturage kugira ngo babone amashanyarazi ndetse bakomeze babe ahantu hagaragara neza cyane.

Ibi ni mu bimwe bikorwa remezo leta ishyiriraho abaturage kugira ngo babone amashanyarazi cyangwa se babone amazi bityo bigatuma abaturage bakomeza kubaho ahantu hari umucyo hagaragara.

Bamwe mu baganga bo mu rwanda barishimira uburyo ubuyobozi bw'u rwanda ndetse n'abaturage b'u rwanda bari kuza kwitabira ibigo nderabuzima byo mu mujyi wa kigali.

Izi ni inkingi zigaragaza ubukomere bw'inzu kandi zigaragaza igikari cy'inzu, kugira ngo gise neza hakomeze hagaragare neza kandi bikaranga, inyuma y'inzu ukuntu hasa n'ukuntu hameze.

Bamwe mu bacamanza bo mu gihugu cy'u Rwanda, bari kurahira imbere y'amategeko nkuko bibagomba babisabwa, kuza kurahira imbere y'amategeko bazajya bakorera abaturage b'igihugu.

Aba bagabo batatu harimo babiri b'acamanza, mu gihe aba bagabo baba bari kuganira bibaza uburyo bagiye gucamo urubanza, ndetse n'uburyo bagiye kuba baburanira umuntu.

Uyu mugabo ni umwe mu bashinzwe guca imanza mu gihugu mu gihe aba ashinja cyangwa ashinjura uwakorewe icyaha cyangwa se uwagikoze kugira ngo ahabwe ubutabera.

Uyu ni umugore wambaye imyenda y'umuhondo, ufite impuzamajwi mu ntoki ze, imbere ye hari ameza agomba kuvugirwaho ibyo yateguye.

Bamwe mu baturage ndetse n'abayobozi, baba bagomba kugana aho bakorera kugira ngo bakomeze banoze imyifatire ndetse n'imico y'abanyarwanda rusange n'abaturage.

Aba ni abayobozi barimo baganira ibijyanye n'ikoranabuhanga, barebera hamwe uburyo bikomeje kumera mu Rwanda, kandi bikomeje no gufasha abanyarwanda mu iterambere, kugira ngo bazamukane hamwe n'abaturage.

Ibi cyangwa se iki ni kimwe mu gikoresho kifashishwa kizimya umuriro mu gihe hateye inkongi, bityo bikagifasha abaturage kuba bazimya uwo muriro iki gikoresho ni cyo gikora ibyo bintu.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashisha bari guhashya inkongi y'umuriro, mu gihe haba hateye umuriro, bifashisha ibi bikoresho kugira ngo babashe kuba bahashya uwo muriro watewe n'inkongi.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa bari kurwanya ahantu hatewe n'inkongi y'umuriro, bityo bigatuma bitanga umutekano aho hantu hatewe n'inkongi y'umuriro, kandi bigafasha abaturage.

Aba ni abanyeshuri bari kumwe n'abashinzwe umutekano, imbere hariho ibicanwa ndetse hari n'ibizimya ibyo bicanwa, byifashishwa kuba byahashya umuriro watewe n'inkongi y'ibyo bicanwa.

Uyu ni umuhanda ugaragaramo umusore ufite utubido mu ntoki ndetse n'imodoka y'umweru, aho bagaragaza umuhanda mwiza cyane ndetse n'inzira y'abanyamaguru.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa bahashya umuriro watewe n'inkongi kugira ngo bakomeze bahashye umuriro ntukomeze kugera mu baturage cyangwa se ugire icyo wangiza ku bikorwa remezo.

Inama y'abayobozi b'u Rwanda bazikora bifashisha kugira ngo bamenye ibitari kugenda neza mu gihugu, babimenye uko barabikosora bigakunda kuba buri gihe kugira ngo bamenye uko bakora ibintu byabo.

Uyu ni umwe mu bayobozi bari bari kwiyamamaza bashaka kuyobora igihugu cy'u Rwanda, ndetse bari bari mu baturage, bari gushaka uko batorwa bashaka amajwi avuye mu baturage.

Uyu ni umugore w'umuyobozi wishimirwa ndetse agakomeza guteza imbere imibereho y'abagore ndetse no kubafasha kuva mu bukene kugira ngo bakomeze biteze imbere ubuzima bwabo bugende neza n'ababyeyi babo n'abana.

Nkuko mubibona aha ni aho ishyaka ry'igihugu ryari riri kwiyamamaza kugira ngo abaturage bongere barigirire icyizere, bongere baritore, aho ubona abaturage bari bishimye ari benshi, bamanitse n'amadarapo.

Ikigo cy'amashuri giherereye mu murenge wa Kimironko, kiba cyakira abaturage buri munsi, baje gushaka uburezi ndetse n'ababyeyi n'abana babo baje gushaka uburezi.

Uyu ni umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, aho yari mu kibuga hagati ahamagara cyangwa se ari kuganira n'abaturage ayoboye mu gihe bashaka guteza imbere urubyiruko.

Abaturage n'abayobozi barimo bagenda mu mihanda ya Kigali bitegereza uburyo ibintu bigendamo kandi bigamije kugira ngo bakomeze batere imbere mu miyoborere.

Aba ni abagore batowe kugira ngo babe abayobozi, bari imbere y'amadarapo, bari kurahira kugira ngo bazuze inshingano zabo nk'uko babitorewe.

Aba ni abaturage b'abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, aho umwe aje gutora ubuyobozi yifuza kandi ashaka gushyigikira, buzamubere ubuyobozi bwiza.

Ni modoka, iyi ni imodoka ihagaze igaragara ko itwara abagenzi ifasha abantu kuva hamwe bajya ahandi kandi igakomeza kubafasha kuba bagera ku mirimo yabo hakiri kare cyane.

nk'uko mubibona uyu ni umuturage utwaye igare hirya ye hari imodoka iparitse umuhanda kandi imodoka ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara yifashishwa mu kuba yatwara ibikoresho bitandukanye.

Zimwe mu ngendo ziri gufasha abaturage kugira ngo bakomeze bagende mu mihanda neza, harimo imodoka z'abagenzi, zishinzwe gutwara abagenzi zibakura hamwe zibashyira n'ahandi, harimo na moto.

Aha hagaragara ku muntu, modoka harimo imodoka itwara abantu baz harimo n'i itwara ikigori cyangwa sefashwa na kugirawu.

Izi ni zimwe mu modoka zifashishwa n'abaturage kuba bakora ingendo za buri munsi bava hamwe bajya ahandi bityo bigatuma babasha kuba bagera aho bakorera imirimo yabo nta ngorane zinyuzemo.

Iyi ni imodoka iparitse mu muhanda mu gihe izi modoka zifashishwa zijyana ibintu hanze y'igihugu cyangwa se zibyinjiza ugasanga itwaye ibikoresho hirya yaho hari ahantu hari ruhurura, ruhurura inyuramo amazi.

Izi ni zimwe mu modoka ziri mu muhanda zifashishwa kuba zatwara ibikoresho bimwe na bimwe ugasanga bitwaye umucanga, umucanga ukunda gukoreshwa mu kubaka inzu ndetse n'imihanda.

Izi modoka ziri mu muhanda uko ari ebyiri, ni zimwe mu modoka zifashishwa mu gutwara ibiribwa ndetse n'abagenzi

Nk'uko bigaragara iki ni ikinyabiziga gitwara abagenzi gifite amabara y'umweru ndetse n'umukara harimo n'icyatsi imirongo y'icyatsi, aho usanga cyifashishwa kuba cyatwara abaturage kibavana hamwe kibajyana ahandi, urabona ko gikikijwe n'ibiti byinshi cyane.

Uyu ni umumotari ndetse n'imodoka biri mu muhanda aho iyi modoka yifashishwa kuba yatwara ibintu bimwe ibijyana ahandi bityo bigafasha abaturage kuba babona ibyo bakeneye bibagera mu ngo zabo.

Nk'uko bigaragarira amaso, uyu ni umuhanda ndetse iriya ni imodoka, urabona ko bakikijwe n'ibiti ndetse n'abantu baba batambuka buri kanya, iyi modoka yifashishwa kuba yatwara ibicuruzwi cyangwa se kuba yatwara ibikoresho bimwe na bimwe bifasha mu baturage, mu rubyiruko cyangwa se mu iterambere ry'u Rwanda.

Iyi modoka iri mu muhanda ni zimwe mu byifashishwa bitwara ibikoresho bimwe na bimwe byubaka inzu, harimo umucanga cyangwa se amabuye, bityo bikorohereza abashaka kubaka kuba byabageraho biboroheye.

Uyu ni umumotari utwaye umugenzi aho iruhande rwaho hari imodoka itwara imizigo, ibikoresho, byifashishwa n'abaturage kuba bakomeza ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Uyu ni umuhanda, aho harimo imirongo y'umweru aho abanyamaguru bambukira, hirya y'aho hari imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi bava hamwe, bajya ahandi.

Izi ni zimwe mu modoka zifashishwa n'abaturage bambutsa ibikoresho kugira ngo bigere aho bigomba kugera kandi bigafasha abaturage mu guteza imbere igihugu ndetse no kugira ngo bagirane imihahirane.

Iyi modoka y'umweru iri mu muhanda ndetse imbere y'aho hari ruhurura ifite n'ubusitani hirya y'aho, iyi modoka yifashishwa mu kuba yatwara abagenzi ibavana hamwe ibajyana ahandi.

Aba ni abamotari batwara abagenzi ndetse hirya yabo harimo imodoka zikoreshwa batwaramo ibiribwa cyangwa se bagatwaramo ibikoresho byifashishwa n'abaturage bakora imirimo y'amaboko.

Izi ni zimwe mu modoka zibasha kuba zakikorera imizigo, zigatwara ibikoresho bitandukanye bifasha abantu mu kubaka ndetse no kubateza imbere mu bikorwa byabo bya remezo bya buri munsi bakora.

Ubuyobozi bw'u Rwanda bwashyizeho uburyo bw'ingendo butandukanye aho ari imodoka nini zitwara abagenzi, ari n'imodoka ntoya zitwara abasanzwe.

Uyu ni umuhanda urimo imodoka y'umweru ndetse n'umumotari n'umunyonzi, aho umumotari atwaye umugenzi, hirya y'aho hari rigori cyangwa se ruhurura ikolotiriye ndetse hirya hari ibiti byiza cyane.

Nk'uko rwose bigaragara iyi ni imodoka, imodoka y'amabara y'umweru ndetse n'umukara urabona ko iri mu muhanda mwiza cyane aho hirya yaho hari ruhurura, urabona ko hari n'ibiti rwose byiza cyane kandi izi modoka zifashishwa kuba zatwara ibikoresho bimwe na bimwe, zibivana hamwe zibijyana ahandi.

Iki iki ni icyapa cy'umutuku ndetse kirimo n'ubururu, aho rimwe na rimwe ugisanga mu muhanda byibutsa abantu kuba bakora ibyo basabwa kandi kuba bagenda mu muhanda neza cyane bitateza impanuka mu Rwanda.

Ibi ni bimwe mu byapa bigaragara mu mihanda y'u Rwanda, bigaragaza umuvuduko ugomba kugenderaho, ndetse bigafasha ku buryo wirinda impanuka, bityo bigakumira impanuka hagati no hagati y'abaturage.

Ibi ni bimwe mu byapa usanga biri mu muhanda wa Kigali, bisa umutuku n'umweru kandi mo hagati ugasanga harimo umusaraba usa umukara, bityo bigatuma abantu bikomeza kuba byabakangurira kuba bakomeza kugenda mu muhanda neza cyane.

Ubu ni uburyo ubuyobozi bw'u Rwanda bwashyizeho kugira ngo abatwazi b'ibintu ndetse n'abantu bajye bifashisha mu kugabanya umuvuduko bagenderaho mu gihe batwaye ibinyabiziga byabo bari mu muhanda.

Izi ni zimwe mu nyubako cyangwa se inkingi zigize inyubako ziherereye mu Rwanda, aho zifashishwa n'abaturage mu kugira ngo bakomeze bakaze umutekano w'inzu zabo, kandi bakaze imibereho.

Utu ni tumwe mu duce twahariwe gushyirwamo inganda zifasha abaturage kuba babona ibikoresho byujuje ubuziranenge kandi bizajya bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Nkuko bigaragara rwose aya ni amazu agenda yubakwa mu midugudu imwe n'imwe mu mujyi wa kigali aho usanga iyo midugudu yari isanzwe irimo ahantu hatubatswe neza hari ibibaya ugasanga leta igiye ishyiramo amazu ugasanga nta n'imihanda irajyamo mizima ariko urabona ko hano bari kubaka imidugudu y'icyitegererezo aho bari kubaka n'imihanda myiza cyane

Uyu ni umuhanda aho hagaragaramo jaride iteyemo igiti byifashishwa mu gutaka imihanda yo mu mujyi wa Kigali kandi bikaba bisa neza.

Uyu ni umuturage utwara igare aribo bitwa banyonzi ari umuhanda urimo imirongo y'umweru igiye ikatakasemo kandi ari no mu muhanda ufite ubuso bunini.

Imihanda yo muri Nyarugenge muri Kigali ndetse n'amazu ari mu mujyi wa Kigali n'ibyapa abaturage bakunda kwambukiraho biri mu mihanda ya Nyarugenge.

Nkuko mubibona uyu ni umuhanda uri mu mpuzangano y'imihanda igiye itandukanye iciyemo, aho ikikijwe n'indabo ndetse n'ibiti ndetse n'amashanyarazi, ibi biti by'amashanyarazi.